Imbaga y'abantu bicaye, barimo kugenda batanga serivisi, bagira inama abantu kujya bakorera ibintu mu isibo, byiganjemo gutanga mitituweli, kwizigamira muri ejo heza, kwicungira umutekano, kurwanya ibiyobyabwenge, ndetse n'ibindi byinshi, kugira isuku n'ibindi.

Umugore uhagaze imbere y'abantu, arimo kugenda bageze imbwiruhame, bakoraniye hamwe, bicaye barebana ndetse bicaye ku ntebe z'imyeru n'ameza ariho ibtambaro by'umweru, bicaye basangira ibitekerezo ku ngingo runaka yabateranirije hano.

Umugore uhagaze hagati y'undi mugore n'umugabo barimo kumushimira .Yambaye umwitero ndetse ari kumushimira ko yatanze mituweli cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza. Ni inama igamije gushishikariza abaturage gutanga ubwishingizi mu kwivuza ari yo mituweli.

Abantu bari mu nama bicaye barebana bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo ndetse bafite cya gikoresho kifashishwa mu gutubura amashusho bita porojegiteri ndetse harimo abagore ndetse n'abagabo n'abazungu barimo kugenda batanga ubutumwa bugiye gutandukanye.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura bateze amatwi ndetse bari no kureba imbere, abenshi barangariye mu matelefone ariko abandi bakiri batoya barimo kureba imbere bateze amatwi kandi barakurikiye umuntu urimo kubagezaho ikiganiro.

Umusirikare uhagaze mu hagati mu mbaga afite indangururamajwi, arimo kugenda abagezaho ibitekerezo hanyuma harimo n'abashinzwe amagereza ndetse babita abacungagereza, kandi nanone harimo n'abandi bantu bitabiriye iyi nama barimo kugenda bandika ibyo bari kwigishwa.

Umugabo uhagaze hagati y'abandi bantu afite indangururamajwi arimo kugenda akora ku isaha ye agaragaza aho igihe kigeze, abenshi mu bamuteze amatwi bamwe bari kureba hasi uretse umugore umwe urimo kumwitegereza ufite imisatsi y'umukara, abandi na bo bibereye mu byabo.

Abagore babiri bahagaze mu ruhame ndetse inyuma hari abantu benshi babakurikirana ibyo bavuga. Bafite indangururamajwi cyangwa se mikoro barimo kugenda batanga ubuhamya bugiye butandukanye. Abandi baturage nabo bakagenda babakurikira. Ku ruhande kandi bubatse itente rigize idarapo ry'u Rwanda ariryo: ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Abagabo bateraniye mu nama barimo kugenda baganira bicaye ku buryo buri umwe ari kugenda areba mugenzi we, babiri muri bo bafite mudasobwa ari na bo bashobora kuba bayoboye ikiganiro ndetse kandi ku rundi ruhande hariho abandi na bo barikurikiye ikiganiro, ku meza kandi hariho udukayi tugaragaza ibyo barimo kuganiraho ndetse n'amacupa y'amazi.

Abakobwa bari no kubyina imbyino gakondo ya kinyarwanda, barimo gu kugenda barambura amaboko ari nako banyuguza amabuno ndetse bigaragaza umuco wa kinyarwanda, kuko ni wo muco u Rwanda rutandukaniyeho n'ibindi bihugu, ibi biri mu biranga umuco gakondo w'abanyarwanda.

Umukeka urambitse hasi ntabwo urambuye wose uzinze igice kimwe urambuye ahanyuma umucaca ndetse hano hakunze kwicarwa abana cyangwa se umukecuru mu gihe arimo kuruhuka cyangwa abari kotaka akazuru, bimeze nka cya kirago cyangwag se umusambi wa kera nkuko bigaragara mu muco wa kinyarwanda.

Abakobwa barimo kubyina imbyino gakondo bambaye imyenda myiza y'imishanana, ndetse kandi bateze urugori. Aba bari kubyina imbyino gakondo, bigaragaza bimwe mu muco w'Ikinyarwanda twihariyeho udashobora gusanga ahandi.

Umugabo n'umugore we ndetse bacyari abageni, bambaye ya myenda ya kinyarwanda, yayindi myiza bambara igihe umuntu agiye gukwa cyangwa se gusaba, uyu mugabo biragaragara ko avuye kureba uyu mugeni we bageze igihe cyo gushyingirwa.

Abantu barimo kubyina imbyino gakondo biganjemo urubyiruko, abakobwa ndetse n'abasore ni mu nama yitabiriwe n'abayobozi abasirikari aho ni mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, baricaye barimo kureba ukuntu abana babyina berekana ishusho y'umuco nya Rwanda.

Umuntu ugaragaza bimwe mu biranga umuco nyarwanda, yasokoje umusatsi neza ndetse ateze n'urubori, iyo ngibi kandi yambaye byakorwaga n'abantu b'abatware cyangwa se abantu bakora i bwami cyangwa se abamikazi.

Imirimbire y'umuco wa kinyarwanda, aho abagore basokozaga umusatsi bakawugira muremure ndetse hari uburyo bawugiraga amasunzu, ndetse abagabo na bo bari bafite ukundi kuntu bogoshaga cyane cyane abami, bari bafite uburyo bakoraga imisatsi yabo neza, ni byo byatumaga basa neza cyane.

Abagabo babiri bahagaze bambaye imyenda isa. Bambaye ya myenda yifashishwa mu birori cyane cyane igihe bari gutanga umukobwa baje gukwa, ndetse igaragaza byinshi mu mucyo wa kinyarwanda ku mugeni, cyangwa se abavukana n'umugeni.

Inyogosho zijye zitandukanye abantu babayeho kera bagiye biyogoshesha cyane cyane ibi byakorwaga n'abami, ni ukuvuga ngo ibi ni ibigize umuco wa kinyarwanda ku bijyanye no gukora isuku cyane cyane kwita ku musatsi.

Umwami wayoboye u Rwanda ndetse yambaye imyenda yabugenewe yambarwaga umwami gusa, nta wundi muntu usanzwe muri rubanda washoboraga kwambara iyi myenda, igaragaza ikamba ry'umuyobozi, ni ukuvuga ngo iyo yatangaga itegeko nta muntu washoboraga kurivuguruza apfa kuba avuze gusa.

Igikoresho gakondo bita agaseke gakoreshwa cyane cyane mu gutwarwamo ibintu umuceri, amasaka ndetse n'uburo mu gihe umuntu agiye gusura mugenzi we, gafite amateka menshi mu Rwanda kuko no mu kirango cy'igihugu cy'u Rwanda karimo.

Abakobwa babiri barimo kubyinira imbere ndetse n'abandi banana gucuranga gitari, harimo n'abandi bantu barimo kugenda babyina ndetse ni mu cyumba cy'inama kitabiriwe n'abantu benshi bari mu birori, harimo abari gufata amashusho ndetse barimo kugenda basoza umwaka.

Ibikoresho bya kera byakoreshwaga bitewe n'igihe runaka, hariho agacuma karimo n'umuheha katangwagamo inzoga ndetse mu gihe abantu bari gusangira, hariho n'uruho bakoreshwaga mu guhereza inzoga abantu baje gusenngera cyangwa se mu gihe barimo kudaha.

Inzu irimo ibikoresho bya kinyarwanda, bigizwe n'igicumbi, intebe yo kwicaraho ya kera, imisambi ndetse hariho n'umuduri, abantu bifashisha barimo gucuranga ndetse ukoze mu buryo bw'umuheto wifashishwaga mu kurasa.

Umukozi w'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG mu Rwanda arimo kurira ku rwego, agiye kumanika amashanyarazi muri uru rugo, afite insinga ziriho amatara, ku ruhande hariho umugabo wamufashije urwego.

Umugabo ukora mu bintu by'amashanyarazi yuriye ku ipoto arimo kugenda ahuza utuntu n'utundi, ndetse ku ruhande hari n'undi mugenzi we, yagiye arizirika ku buryo adashobora kugwa mu gihe runaka, arimo kugenda atekinika ibintu byagiye bipfa.

Umudugudu ugizwe n'amazu, afite ibisenge bisa by'amabati atukura, hariho igitironi kirekire kiriho amashanyarazi, aha ngaha hariho urukinga rurerure, rufatiyeho, hariho taransifo ijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye by'aka gace.

Ikigo kirimo amashanyarazi ndetse kigizwe n'ibitsinga bigiye bicomekeranye ndetse n'ibintu bimeze nk'iminara bigiye bigerekeranye n'ibindi binyuranyemo, hariho abagabo babiri bita abatekinisiye barimo kugenda bakora ibintu byangiritse bambaye ingofero zabugenewe ndetse n'amajiri y'akazi.

Aho bafatira amashanyarazi ahangaha bahita kuri taransifa. Ni aho aho amashanyarazi akurwa ajyanwa mu ngo, ibi ahangaha biba bigaragaza aho amashanyarazi aruhukira mu gihe avuye ku miyoboro migari, ubundi abaturage bakagenda bafatiraho bagenda bacana mu ngo.

Uruganda rw'amashanyarazi ruriho ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho nimunara, amapiloni, ibinsinga byinshi bigiye binyuranyemo ndetse ahangaha biba bibuji kuhegera mu gihe utahakora, kuko abahakora nibo baba bazi imiterere yaho ndetse undi muntu usanzwe ashobora kuhagera akahasiga ubuzima.

Agakoresho gapima ingano y'amashanyarazi umuntu yaba yaguze, komekwa hejuru ku rukuta cyangwa se mu nzu, niko umuntu yifashisha igihe amaze kugura umuriro, kugira ngo arebe ko yashyirara umuriro mu nzu ndetse niko kakwereka umuriro usigaranye cyangwa se mu gihe umuriro wenda gushira.

Uruganda ruto rw'amashanyarazi aho hari igikoresho kinini cyane bita umunara cyangwa se ipironi, aha ngaha ushobora kuharabura umuriro cyane cyane uba ugana mu Turere tugiye dutandukanye, aha ngaha hagaburira igice kinini k'Igihugu.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani bugiye butandukanye iriho amabendera agiye atandukanye kandi hariho n'amatara ni hafi yo ku muhanda, iyi nyubako kandi ifite n'ibigega biyikikije yubatse neza mu buryo bugezweho.

Ibyapa biboneka ahantu hari umupaka, kuko bigaragaza ko uwinjiye hano aba agiye mu karere ka Gicumbi cyangwa se akaba aje mu Rwanda. Uyu mugore ahetse igikapu arimo kujya mu mahanga bigaragara ko agiye hanze y'u Rwanda ashobora kujya mu gihugu gituranye n'u Rwanda.

Inyubako ntoya iriho abantu bafite ibicuba birimo amata. aha ngaha umuntu wese ufite umusaruro ushingiye ku mata, awuzana hano bakawutunganya, bakamugurira ndetse bakawujyana mu bindi bice by'Igihugu, bakawukoramo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye cyangwa se ibiribwa bikomoka ku mata.

Inyubako zigizwe n'amayetaje ubwo ndavuga utugeretse aho zubatse ahantu mu mujyi ndetse kandi imbere h'aho haparitse moto iriho umugenzi umwe, aha ngaha hameze nko mu kigo cy'amashuri hahandi abana baba biga babamo.

Inyubako yubatse mu buryo bw'uruziga irazengurutse ndetse hanze hariho utuyira abantu bagenda bacamo mu gihe bagiye mu bice bigiye bitandukanye by'aha hantu, hatatse indabo zigiye zitandukanye ndetse na pasiparumu zigiye ziteye mu kibuga.

Umuhanda ukiri mushyashya urimo kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aha ngaha ni kwa kundi baba bamaze igihe gitoya bakoze umuhanda benda kuwukoramo kaburimbo, haba hakirimo itaka ritsindagiye neza ku buryo imodoka ishobora kugenda nta kibazo.

Ivuriro Girabuzima riri mu ibara rijya gusa n'ubururu ndetse hariho abantu bakoranye baje gusaba serivisi, hariyo abafite abana ndetse n'abagabo baje kwa muganga, aha ngaha ni aho batangira serivisi z'ubuzima ndetse z'ibanze.

Iyi nyubako yubatse nk'akagari ahohangaha hariho ibendera, hariho igiti kinini kiriho ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'ukwezi. Kuri mu ibara ry'ubururu aha ngaha ushobora kuza kuhasabira serivisi zigiye zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ndetse uri ahantu ku musozi. Usa naho ucuramye, wageramo hasi ukongera ukazamuka. Uri hejuru ku gasozi ndetse biragaragara ko ku ruhande hadatuwe hari ibibaya ndetse birimo ibyatsi gusa.

Ubwoko bw'ishushoso nini itwaye imashini, irimo kugenda iyiheka iyijyana mu bicege bitandukanye, ni imashini ifite amapine maremare ndetse irasa umuhondo, itwawe n'indi modoka ifite ibara ry'umweru.

Umugore ufashe akanya gatoya ukuboko arimo kugenda akambutse ikiraro kandi gifite ibiraro bitagaranye ku buryo kurundi ruhande ushobora kugwamo igihe urangaye gatoya, bisaba kwambuka ugenda ureba neza aho urimo gukandagira.

Agace karirimo ibyapa aho udashobora kurenga, ahangaha ni bya byapa biba bitandukanya igihugu n'ikindi, aho ahangaha uramutse ukomeje ushobora kugera mu gihugu cya Uganda ndetse iyo ugarutse ino hino uba ugarutse mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ya leta ituye hasi mu kibaya, hejuru hari n'imisozi ndetse n'imihanda igiye inyuranyemo, aha ngaha hubatse nko mu kigo cy'amashuri cyangwa se ahantu hari ivuriro hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Amavomero agezweho yayandi ya wasake ari mu midugudu ndetse n'ahandi hantu mu duce tw'imijyi aho hari imigezi igera kuri ibiri ku buryo abantu baje kuvoma barashobora gutegereza umwanya munini umwe avoma ku ruhande rumwe n'undi ku rundi ruhande hanyuma akareba nk'umuntu ubavomesha agenda bishyura.

Inyubako ya Leta iri ku Mudugudu, aha ngaha ni ku biro by'Umudugudu wa Gakoma, aha ngaha umuntu ashobora kuza kuhasabira serivisi cyane cyane zijyanye n'ubutabera igihe umuntu yaguhemukiye uje kumurega mu nzego z'ibanze, ndetse aha ngaha ni na ho abaturage bashobora guhurira mu gihe bari mu nama.

Aho bagurishiriza amata aha ngaha abaturage bafite inka bazana amata yabo bakayagemura hano barangiza bakabishyura amafaranga, aya mata iyo amaze gutunganywa cyangwa se amaze gukusanywa akorwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inyubako ya Leta igaragaza aho umuntu aba atagomba kujya, irimo kugerageza ibyerekezo bigiye bitandukanye, aho uri kuva cyangwa se uri kujya mu cyerekezo runaka, cyane cyane ibyapa nk'ibi bishyirwa ahantu hari umupaka, ugaragaza Igihugu runaka niba uvuye mu gihugu runaka cyangwa se uri kwinjira mu gihugu.

Umuhanda nyabagendwa urimo kunyuramo imodoka za zindi ntoya abantu biga gutwara bagenderamo, ni ahantu hitaruye amazu ndetse ni mu musozi, hariho ibitara binini cyane bya bindi bimurika muri sitade, ni ukuvuga ngo ya matara ashobora kumurika mu gihe cya nijoro hakaba hagaragara neza.

Ikigo nderabuzima kigitahwa hashize igihe gitoya gitashywe ndetse kandi hasi ntabwo hari haterwa sima kandi gikikijwe na senyenge ku buryo uwo ari we wese adashobora kuza ngo ahite yinjira kandi hariho n'ahantu hubatse neza amazi azajya atembera mu gihe imvura yaguye.

Umugabo uhagaze, ni umugabo w'igikara afite indangururamajwi, ahagaze imbere y'abantu. Akurikiwe n'abantu benshi cyane, arimo kubagezaho ubutumwa bugiye butandukanye nabo kandi bamuteze yombi uko ari bose.

Imbaga y'abantu benshi bahakoraniye hamwe, hagati yabo hariho umuyobozi urimo kugenda abagezaho ijambo. Arimo kugenda abahereza ubutumwa mu buryo butandukanye, bwiganjemo ubw'ubutabera ndetse n'umutekano wabo.

Abagabo batatu bahagaze munsi y'igiti inyuma yabo hariho ameza, umwe muri bo afite telefone, afite n'ikarita yambaye mu ijosi arimo gutunga agatoki hasi, yambaye indorerwamo, uwo hagati afite agatabo yambaye n'agashati karimo uturongo.

Abayobozi bateraniye hamwe aho hagati yabo hari inka, bigaragara ko ari umuntu barimo kugabira inka, bikunze gukorwa igihe bari gutanga gira inka cyane cyane ikorwa n'iyi gahunda ya gira inka aho baba bahereza umuturage inka cyane cyane utishoboye.

Umusirikare uhagaze imbere y'abaturage, arimo kugenda abagezaho ijambo, afite indangururamajwi, hanyuma imbere hari icyapa kigaragaza ko ari ubutumwa bw'Intara y'Uburasirazuba, Akarere ka Nyagatare, inama y'Igihugu y'urubyiruko.

Umugabo ufite indangururamajwi, arimo kugenda atanga imbwirwaruhame, yambaye agashati kagaragaza inzirakarengane zapfuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, n'ukwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, arahumye ndetse arimo kureba mu kirere.

Umusaza ufite indangururamajwi nta musatsi agira ndetse kandi abantu arimo kubwira bamuteze amatwi, harimo urubyiruko rwicaye hejuru ku bitare ndetse n'ahandi hantu mu misozimo, bari kugenda bamutega amatwi bumva ibintu arimo kubabwira.

Umugabo uhagaze urimo kugenda utanga ubutumwa ku bantu bateze amatwi, ahagaze munsi y'igiti cy'umwembe ndetse kuruhande hateretse ameza kandi abantu bamuteze amatwi na bo barahagaze, barimo kugenda bumva ibintu arimo kugenda ababwira.

Abagabo bahateraniye hamwe ndetse aya ni ameza ari imbere yabo abaje mu giti, ahangaha biragaragara ko ari mu cyaro, ariko harimo inzego zigiye zitandukanye n'izishinzwe ubuperereza cyane cyane muri RIB, ndetse n'abandi bantu benshi.

Abagabo batatu, umwe muri bo yambaye ikarita mu ijosi ndetse undi wogati afite agatabo mu ntoki, noneho uwo ku ruhande nta kintu afite,, bahagaze imbere barimo kugenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye ku bitabiriye aha hantu.

Abagabo biganjemo abokora mu nzego z'umutekano, barimo kugenda batembera mu kagi, ikigaragara barimo guhiga umunyabyaha, biganjemo abayobozi bakomeye ndetse n'abapolisi, barimo kugenda bagenza icyaha kugira ngo barebe ko batanga ubutabera.

Icyumba kirimo abantu bari mu nama biganjemo ab'inzego z'umutekano abapolisi, abasirikari, abaminisitiri, ndetse n'abandi benshi barimo kugenda baganira ku bintu bigiye bitandukanye byateza umutekano imbere ndetse n'ubutabera.

Umugore wambaye amarineti ndetse afite impapuro mu ntoki, imbere yayo umugabo wambaye ingofero y'icyatsi umeze nk'umudaso, biragaragara ko angaha ari mu rwego rw'ubutabera, kuko inyuma handitseho ko barwanya ruswa ndetse n'akarengane.

Umugabo ufite indangururamajwi, ahagaze hagati y'abandi bantu benshi, arimo kugenda atanga ijambo, hari higanjemo ab'inzego z'umutekano kuko harimo n'abapolisi ndetse n'abantu bakiri batoya, abenshi baricaye ndetse n'undi inyuma, arahagaze arimo kugenda areba ibiri kuhabera.

Mu muhanda nyabagendwa hari icyapa kigaragaza ko imbere hari ahantu abana bambukira ndetse n'abandi bantu, iki cyapa kibuza imodoka kugendera ku muvuduko mwinshi ni uuvuga ngo iyo zihageze ziba zigomba kugenda gakeya kubera ko imbere muri metero nkeya haba hariho ahantu abantu bambukira.

Mu muhanda mu masaha ya nimugoroba aho hari icyapa kibuza ibinyabiziga kugendera ku muvuduko mwinshi kuko imbere haba hariho abantu barimo kwambuka, ni ukuvuga ngo iyo ibinyabiziga bigeze hano bigomba gutegereza abantu bari mu muhanda bakabanza bakambuka.

Umugabo urimo kugendera aho imodoka ziparika cyangwa se muri gare yambaye akajiri kagaragaza kapani akoramo, inyuma ye kandi ahaparitse imodoka iteye iranyi ry'umweru itegereje abagenzi itwara mu bice runaka.

Umuhanda wa kaburimbo, unyuze mu gasantere ndetse harimo abantu bahagaze munsi y'umutaka wa Airtel, ndetse bashobora kuba baje kureba amayinite cyangwa kubitsa no kubikuza. Hariho umugabo nawe umwe uri kugenda, ndetse uyu muhanda uri kumwe n'akandi gahanda gatoya, gashamikiyeho kagana mu kindi kerekezo.

Agahanda katarimo sima. Ahangaha nibwo amaze igihe gitoya hakozwe, hanyuma hakujya hariho akapa kagenda kagaragaza ibirometero, ndetse n'ibyerekezo, utu twapa kandi, twifashishwa mu kugenda dusobanurira abantu aho bageze.

Umumotari urimo gufata umugenzi mu muhanda arimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse hariho icyapa gitegeka umuntu uwo ari we wese guhagarara, akenshi abari ku kigo runaka ugomba kuhitondera ndetse kandi imbere ushobora gusanga ari aho abantu bashobora kwambukira.

Imodoka zazindi zihuta cyane zigezweho ziba zifite amapine maremare ndetse zidakangwa n'ubunyereri, aha ngaha ni aho bigishiriza hariho n'ikona riri hagati, ni za modoka nziza umuntu wo gutangira kwiga imodoka ashobora kuyigiramo ku buryo bumworoheye.

Imodoka nziza iparitse imbere y'inyubako igezweho ndetse ku nyubako hariho ubusitani bwiza burimo imikindo. Kandi aha hantu hakorewe amasuku, harasa neza cyane, hariho n'amarangi ateye agiye atandukanye.

Abantu bambaye utujirinda nka twa tundi tw'abakorerabushake barimo kugenda bafasha kubakira uyu muntu ubwiherero ndetse n'inzu ye barimo kugenda bamufasha kuyubaka, ni abantu bakoranye biganjemo urubyiruko barimo kugenda batanga serivisi zo gufasha abaturage batishoboye.

Abagabo bagize inzego z'umutekano higanjemo abapolisi, abasirikari, ndetse n'abandi bayobozi b'inzego zigiye zitandukanye, bicaye imbere y'abaturage, barimo kugenda bageza ikiganiro ku baturage, cyane cyane kibanda ku mutekano.

Umugabo ufite indangururamajwi ahagaze mu bantu rwagati arimo kugenda abagezaho ijambo, yambaye ikositimu n'ishati itukura ndetse na mikoro afite iratukura, abaturage bicaye hasi bamuteze amatwi.

Abagabo bagera kuri batanu, barimo kugana mu kerekezo kimwe. Bikoreye amabuye, bari kugana ahantu hari ibigori ndetse biragaragara ko ari kwa kundi Leta ishyiraho gahunda yo gukora umuganda. Igihe abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano, bo barimo kugenda bafasha abaturage kubona ibikorwaremezo, bimwe by'ibanze nk'imisarane ndetse n'ibindi.

Abagabo bateraniye hamwe ndetse biganjemo n'abasore n'abakiri batoya barimo gukora igikorwa cy'umuganda, barimo kugenda batema ibihuru basibura n'amayira bagenda bareba ko ahantu hagaragara neza ndetse n'imibu idashobora kwarika muri ibyo bigunda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo kugenda bakina, hakurya hariyo abafana barimo kureba uko barimo gukina. Ndetse ahantu bakinira ni umucanga uhari gusa nta byatsi bihari uretse aho abafana bicaye. Aba ngaba ni amakipe abiri ahanganye.

Umugabo wambaye amasogisi y'umukara inkweto z'umutuku ndetse yambaye n'agapira k'umuhondo afite n'agakarita mu ntoki. Inyuma ye hariho abakinnyi bambaye amajezi imwe k'umupira hari mu ibara ry'umweru ndetse n'amakabutura y'umuhondo n'amasogisi ari mu tubara tw'ubururu n'umweru.

Abana bato barimo kugenda bakina agapira, barimo gukina umupira w'amaguru, umwe muri bo yambaye neza arimo kwirukanka ku gapira, abandi barimo gukina nta myenda bambaye ya siporo bambaye ibirenge ndetse n'indi myenda isanzwe.

Abagabo barimo gukina umupira w'amaguru, bambaye impuzankano, zigizwe n'inkweto z'umweru, zifite n'utuntu tw'icyatsi, amasogisi y'ubururu, amapantalo cyangwa se amakabutura y'bururu, ndetse n'amashati y'ubururu, hakurya kandi hari n'abafana barimo kureba umupira.

Umugabo urimo kugenda ahabwa serivisi zo kwa muganga. Barimo kugenda bamupima kugira ngo barebe uko amaraso ye arimo kugenda atera. Ibi bikorwa cyane cyane ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri nyuma yo gukora siporo. Barangiza bakareba uko amaraso ye atembera mu mubiri.

Abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri, gusa uretse no kuba bari gukina, ni amakipe abiri ahanganye, uyu ni umwuga ushobora gutunga umuntu kuko umukinnyi ashobora guhembwa amafaranga menshi, ashobora kumutunga ubuzima bwe bwose.

Abagabo barimo gukina umupira w'amaguru ni amakipe abiri ahanganye, ikipe imwe yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ihanganye n'indi kipe ifite impuzangano igize ibara ry'ubururu, ndetse kandi hariho umusifuzi w'umugore niwe uyoboye umukino.

Agahanda gatoya karimo abantu bari kugenda kuri moto ndetse no ku magare. Harimo abantu bakeya, biragaragara ko hakozwe vuba kuko nibwo bakimara kuhataha. Harimo kugenda bakeya bagana mu muhanda nyabagendwa kugira ngo bagane no mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umunyonzi urimo kugenda asunika igare ni ahazamuka, arimo kugenda atwara amazi, ni ibijerekani byinshi cyane, arimo kugenda abijyana ahantu runaka bamutumye, abantu badashoboye kwigira ku kumugezi, cyangwa se mugihe badafite umwanya.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bigera kuri bine, uruhande rumwe hariho igice abanyamaguru banyuraho, uruhande rumwe nanone hariho aho imodoka zinyura igihe zimanuka hagati kandi hariho urundi ruhande runyuraho imodoka ziri kuzamuka, hakurya naho hari urundi ruhande abandi banyamaguru banyuraho.

Agahanda ko mu cyaro kagizwe n'igitaka, akangaka iyo ari mu gihe cy'imvura haba hanyereye cyane. Kandi utu duhanda tunyurwamo n'abantu gusa ntabwo hajya hacibwamo ibinyabiziga biremereye, ndavuga imodoka cg se amafuso, hacamo moto cyangwa amagare ndetse n'abantu barimo kugenda n'amaguru.

Umukobwa urimo kugenda mu mugi, anyuze ahantu haparitse abamotari. Arimo kwambuka umuhanda, hakujya hariho ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, aho umuntu ashobora kujya gukorera ikizamini kuko haba interineti.

Agahanda gatoya ko mu giturage, aho umuntu anyuramo ajya ku nzu ye cyangwa se agana mu kerekezo bigiye bitandukanye, ku bantu baturanye ndetse nta sima ihari ni mu cyaro ndetse hariho itaka uretse ibisima biri hagati bigaragaza ahantu hanyurwamo amazi mu gihe imvura yaguye.

Akayira karimo ibikoke, biragaragara ko haciyemo amazi yagiye ahakushumura. Ahangaha ni twatuyira tuba tujya mu biturage aho hadashobora kunyura imodoka, gusa uramutse ufite moto cyangwa igare ushobora kuhanyura bigakunda.

Amamoto abiri arimo kugendera hamwe ni ahantu mu gaturage hatarimo ibinyabiziga byinshi, hariho aho abantu bashobora kugenda n'amaguru ndetse nta kibazo. Kandi hakurya hariho n'andi mamoto agiye aparitse y'abamotari bategereje abagenzi.

Umugabo ufite akadobo ndetse yambaye bodaboda z'umuhondo ikoboyi yacitse mu mavi, ndetse n'umupira wa ti sheti, arimo kugenda anyura mu tuyira tugana mu byerekezo bigiye bitandukanye by'aka gace ndetse arimo kugenda acuruza utuntu mu kadobo.